Abantu bicaye hamwe, aho umudamu uri imbere yabo ari kubaha ikiganiro, hafi yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bari kuganiraho cyanditseho Tafisa bose bakurikiye neza kandi bari kumba neza ingingo ari kubaha.

Abantu benshi bicaye neza barebana, ku meza hari telefone bateretseho, inyuma yabo hari amadirishya arimo kunyuramo urumuri, purafo yo muri iyo nyubako isa neza cyane isa umweru.

Abantu benshi bahuriye hamwe bicaye neza mu nama, bateze amatwi kandi bakurikiye uri kubagezaho ikiganiro, hari imeza nziza ziriho ibitambaro by'umweru ndetse bigaragara ko bose bazinduwe n'umugambi w'ibyo bagiye kwigaho.

Umugabo wambaye neza cyane ikote ry'ubururu, ishati y'ubururu bwerurutse, karuvati ijya gusa ubururu, imbere ye hari icupa ry'amazi, yifashe neza cyane yambaye rinete ndetse asa nkutuje.

Abantu bamaze gusoza gahunda yari yabateranyirije hamwe, abayobozi bicaye ku ntebe z'imbere, abandi bahagaze inyuma bose bambaye imipira iri mu ibara risa, inyuma hari ikimenyetso cy'umutwe w'ibyo bamaze kuganira.

Abantu bicaye bari mu nama, bicaye neza cyane, hari inzego zigiye zitandukanye, harimo urwego rw'igihugu rwa Polisi, hari intebe bicayemo z'imikara, ndetse bigaragara ko hirya hari abari gusa nk'abaganira batebya, bose baje mu nama yabatumye bose bitabira ndetse ku gihe.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama aho uri hafi imbere wambaye umupira w'ubururu, ari gufata ibyo bari kuvuga abyandika, harimo abafite amacupa y'amazi yo kunywa mu gihe baba bagize inyota kandi bose bakurikiye neza ubutumwa bari guhabwa.

Abantu bicaye munzu bambaye neza bafite amazi na mudasobwa imbere yabo bari kungurana ibitekerezo bari mu nama hari ikirere cyiza ndetse bafite ubushake bw'ibyo bari kuganira.

Tembera u Rwanda ni gahunda ya leta igamije kubwira no kumenyesha abanyamahanga ibyiza bitatse igihugu hari umukinnyi umwe mu makipe afatanya na leta muri iyo gahunda ya tembera u Rwanda wari waje gusura igihugu uturutse mu ikipe ya parisenjerime.

Umukozi ukora mubijyanye n'irembo yunamye imbere ya mudasobwa ebyiri, aho ari kurebamo areba neza ko ibyo ari gukora bikurikiranye, inyuma hari ibishushanyo bigaragaza ikirere cy'ubururu ndetse hirya hari intebe ziri mu mabara y'ubururu n'icyatsi.

Ingengabihe igaragaza ubwishyu bw'imisoro mu mezi n'amatariki agiye atandukanye y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe, aho itangwa n'abagomba kuba bayitanga ikifashishwa mu iterambere ry'Igihugu ndetse igafasha Leta gushyiraho ibikorwa remezo no guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda.

Hari amatara ashyirwa ku mihanda ndetse n'ipironi riri hirya rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hari imodoka zitwara abagenzi ndetse n'abantu bake bake bari hafi y'izo modoka bari kugenda, hakurya hari ibiti bitoshye ndetse n'amazu y'abantu batuyemo.

Ipoto ririho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi aho abantu batuye, hari uduti duteye hafi yayo dutoshye n'amabuye arunze hasi, hari inyubako ziri mu gipangu zubatse neza n'inzira y'abanyamaguru aho iharuye neza.

Igiti kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ibimera biri hafi y'ahantu hari uruzitiro, hakurya hari amazu atuyemo abantu ndetse ibyo bimera bifite indabo zitukura.

Abagabo babiri bambaye neza amakoti baherekejwe n'abandi bambaye impuzangano y'abashinzwe umutekano barabaherekeje babajyanye aho bakenewe kandi umutekano usesuye.

Mu rukiko hari umugabo wunganiwe n'abanyamategeko babiri bambaye udupfukamunwa, ni muri kovide kuko barikingiye, bari kungurana ibitekerezo ku ngingo bashobora gukoresha biregura kugira ngo batsinde urubanza.

Inyubako nziza cyane y'aho polisi ya Gisozi ikorera yubatse neza, imbere hari jaride, hari indabyo zihateye n'inzira inyuramo abantu baje gusaba serivisi, hirya hari ibiti bihateye bizana umuyaga mwiza ndetse n'umwuka.

Urupapuro rw'ubururu ruriho umuntu ufite terefone watangaye cyane iruhande hari ikintu cy'umutuku kiriho insinga ndetse n'izindi mpapuro zitagaragara neza ziriho umubare w'amafaranga kandi ziri ahantu mu nyubako aho baziteretse ku meza.

Uruzitiro rw'ibyuma ruri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hari inyubako ziri mu gipangu cy'amatafari, hari icyuma cyifashishwa mu kuzimya umuriro igihe hateye inkongi, hari ibiti ndetse n'ibyatsi biteye hasi.

Umugabo wambaye impuzankano ufite igitambaro mu ntoki, icupa ririmo umuriro riteretse ku meza, hirya hari abantu bari kumutega amaso bareba ibyo agiye kurikorerandetse hari n'ibyatsi n'ibiti biri hafi aho ngaho.

Inyubako nini cyane yo mu bwoko bwa etaje, iruhande rwayo haparitse imodoka harimo iya polisi ndetse n'utumenyetso tugaragaza aho umuntu aparika, hari icyapa kiri iruhande rw'igiti ndetse n'umuntu uri kugenda yerekeza kuri iyo nzu yambaye ishati y'umweru ingofero n'ipantaro.

Abanyeshuri benshi bambaye neza impuzankano, imbere yabo hari abagabo bambaye inifomo n'undi wambaye imyenda isanzwe, hari ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, baje kubahugura uko bakoresha ibyo bikoresho ndetse n'uko bakwirinda impanuka zitewe n'inkongi.

Abantu benshi bari kujya banava gutora Perezida wa Repubulika, aho bari gutorera hari ibiti biteye neza, hari insina ziranga ahabereye igikorwa cy'itora kandi hari inyubako z'aho bari kubikorera.

Umugabo usa nka perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ufite agapapuro kazinze neza, agiye kugashyira mu gasanduku kabugenewe, inyuma hari igishushanyo kirimo imisozi n'ibirunga, itatse u Rwanda.

Abantu bahagaze bambaye imyenda isa n'abandi bicaye imbere yabo harimo inzego zishinzwe umutekano wa polisi ndetse n'ingabo, inyuma hari ibiti biri inyuma yabo, bafite impapuro zigaragaza amahugurwa cyangwa y'ibyo bari bamaze iminsi barimo.

Abantu benshi bahuriye hamwe bambaye ingofero n'imipira isa, bafite amadarapo bari kwamamaza ishyaka ryabo, barishimye kandi bahujwe n'umugambi umwe.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti biteye hafi yawo, hari igipangu gikikije inyubako zikirimo, muri kaburimbo harimo moto itwaye umugenzi n'umumotari wambaye kaasike n'umugenzi uyambaye, hari izuba ritari ryinshi cyane, hafi hari amafoto y'amashanyarazi n'amatara, amukira abagenda n'injoro.

Mu muhanda harimo imodoka itwara abagenzi isa umweru, hari moto iriho umumotari umwe idafite uwo itwaye, hari abantu bakeya bari kugenda mu muhanda basa nkaho bari kubisikana naho imodoka na moto ziri kuva ,umuhanda ukikijwe n'ibiti kandi hari ikirere cyiza.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga, harimo icya BRD n'ikindi cyo mu bwoko bwa moto, hari abantu bari hirya hakurya bari muri gahunda zabo, iruhande rw'umuhanda hari inzira y'aho abanyamaguru banyura.

Imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi, isa umweru yo mu bwoko bwa seregiti iri mu muhanda iri kugenda igiye guhura na moto y'umutuku, hirya gato hari ibiti biteye ku muhanda, hirya y'ibiti bigaragara ko ari ahantu bagiye kuzubaka kuko barahakingirije.

Ikimenyetso cy'aho abanyamaguru bambukira mu muhanda, gishyirwa kuri kaburimbo kugira ngo aho imodoka igeze ikakibona imenye ko imbere hari aho umunyamaguru yambukira, bityo na we akirinda kwambukira ahantu hashobora kumuteza ibyago by'impanuka.

Ikimenyetso kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, aho zitagomba kurenga ndetse n'uko abazikeneye bagomba kugira aho ngaho bazisanga kugira ngo zibatware muri gahunda zabo zitandukanye z'ingendo bagiyemo.

Inyubako yo mu bwoko bw'umuturirwa iriho umuntu uhagaze ku nyubako ya gatatu uturutse hejuru, iriho ibyapa bigaragaza serivise zitangwa n'abantu bakorera muri iyo nyubako, hari icy'umutuku kigaragaza itumanaho rya Eyateri n'ikindi cyapa kiranga aho batangira ubufasha bw'ubuvuzi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ikorosi, hafi yaryo hari inyubako nziza yo mu bwoko bw'izigerekeranyije iteye neza, hafi hari ibiti biteye hafi y'umuhanda n'amatara amurika ninjoro, hakurya hari umusozi uriho inyubako.

Umuhanda wa'banyamaguru uteyeho iruhande ubusitani n'ibiti bitoshye, ku rundi ruhande hari urukuta rushinzwe kurinda ko ubutaka bwatenguka bukaza mu muhanda buri munsi y'inzu ifite uruzitiro ruteye irangi ry'umuhondo n'umukara.

umuhanda ugaragaza inzira y'aho abanyamaguru bambukira, urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kugenda, hafi hari ibiti byo ku muhanda bigarura bikazana n'umwuka mwiza, imodoka ziragendagenda zigiye muri gahunda z'abazitwaye.

Umuhanda w'igitaka uzwi nk'igihandagaza, harimo imodoka ebyiri ziri kujya mu cyerekezo kimwe, hafi yaho hari inzu ifite uruzitiro ndetse n'igipangu, hari ibiti biteye hafi yaho, hino gato mu rundi ruhande hari icyapa kigaragaza icyerekezo n'izina ry'aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo inzira y'aho abanyamaguru bambukira, hari icyuma gishinzwe gufata umuvuduko w'ibinyabiziga ndetse n'umuntu uri iruhande, uri kugenda n'amaguru. Hari ibimenyetso biranga, bikanayobora imodoka uko zikwiye kugenda n'igihe zikwiye guhagarara mu gihe bibaye ngombwa.

Ibinyabiziga birimo amagare, moto n'imodoka biri mu muhanda, hino ku ruhande rw'aho baparika, aho abantu bategera ibyabiziga haparitse igare, hakurya hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, hari ibiti biteye hafi n'inzu y'aho abagenzi bategera ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo inzira y'aho abanyamaguru bambukira kugirango babashe kwirinda impanuka, ibimenyetso biyobora imodoka ndetse na kamera ifata umuvuduko w'ikinyabiziga.